Umugabo wambaye umwenda uriho ikirango cy'ikigo cy'isi cyita ku buzima, afite imiti myinshi ku meza, imbere ye hari umugore bisa n'aho ategereje kuba yahabwa imwe muri yo.

Ikirango kinini kigaragaza ko ari ikigo kita ku buzima, giherereye mu majyaruguru ya leta ya Carolina ibarizwa muri leta zunze ubumwe z'Amerika.

Abantu bari mu cyumba bose bareba mu gice kimwe bigaragara ko bari nko mu nama, imbere ku meza yabo harambitse uducupa tw'amazi ndetse n'ibitabo.

Umugabo useka bigaragara ko yishimye, uri ku ivomo rusange, n'ufite ijerekani bisa naho yari yaje kuvoma.

Ababyeyi bari kumwe n'umuganga bigaragara yuko hari ibintu ari gupima, yaba indwara cyangwa se umuvuduko w'amaraso.

Abagabo batatu bambaye bikwije haba udupfukamunwa ndetse no mu mutwe, bambayemo udukoresho tw'isuku, babiri bambaye imyenda y'ubururu, undi yambaye iy'umweru.

Abantu benshi barimo abazungu n'abirabura bari kumwe, bamwe bambaye impuzankano, bigaragara ko ari abaganga, bafite ibyo bari gusobanurira ababari imbere, hari n'umuntu inyuma uri gufotora ibiri kuba.

Urujya n'uruza rw'abantu, benshi, batandukanye, bateraniye hamwe, bari mu gikorwa bigaragara ko ari nk'inama, ariko yabaye ihagaze, kuko ubona ko buri muntu wese ari gukora ibyo ashaka, abitaba telefone bitaba n'ibindi.

Ibiganza biteze amazi, ari kuva mu mugezi ufite ibara ry'umukara, bigaragara ko nyiri ibiganza ari kubikaraba kugira ngo bibe bifite isuku.

Abaganga babiri bari gufasha umwana mutoya uryamye ku buriri, umugore wundi bisa nk'aho ari mama we, yicaye iruhande areba ibyo bakora.

Umukobwa ukiri muto, ugaragara nk'umuyeshuri, wambaye impuzankano, uri ku mugezi ari gukaraba intoki, akoresheje amazi meza, ava mu mugezi.

Abantu bari ku mugezi umugore ari guhaga amazi kugira ngo aze mu majerekani, ari kuvomerwamo n'umwana wambaye agakoti kumutuku.

Abana bakiri bato, bigaragara ko bari kugaburirwa amata n'abantu babasutamye imbere, hari n'abandi bahagaze inyuma yabo bisa n'aho batonze umurongo.

Ibiganza by'umuntu wambaye imyenda y'ubururu, ari gukaraba amazi ari kuva mu itiyo, rigaragara nk'aho ricamo amazi menshi.

Umugabo bigaragara yuko ari umujyanama w'ubuzima, ufite ishusho iriho umuhungu n'umukobwa, bigaragara ko ari kubyifashisha asobanurira umugore bari kumwe.

Umusaza wambaye imyenda ikunze kwambarwa n'abasiramu, uri kumwe n'umuganga wambaye impuzankano yabo n'agapfukamunwa ndetse iruhande rwabo, hari umwana mutoya.

Ikirango kirimo umugore ucigatiye umwana, bishushanyije mu ibara ry'ubururu, ndetse inyuma bigaragara ko ikirango ubwacyo, ari umweru.

Abantu bigaragara ko bari mu nama bitewe n'icyumba ubona barimo, imbere yabo hateretse amazi, umwe muri bo afashe indangururamajwi, abandi bafite mudasobwa imbere yabo.

Abantu benshi bicaye hamwe, barimo kuganira bigaragara ko bafite ingingo runaka bari kuganiraho, barimo n'uwitandiye bigaragara ko asengera mu idini ya isilamu.

Umubyeyi ucigatiye umwana, bari kumwe na muganga wambaye impuzankano y'abaganga, afite n'urushinge ari gutera umwana.

Umubyeyi usutamye, ari koza umwana uri mu ibase, bigaragara ko yishimye, iruhande hari undi mubyeyi uri kumwe n'umwana uhagaze ndetse n'undi mwana inyuma uri ku mugezi, ari wenyine.

Umugabo w'umuzungu, wambaye ikote ry'umukara, bigaragara ko ashaje, uri imbere y'abantu benshi, bambaye amakarita abaranga, bari gucurira, bigaragara ko bari kuririmba, bishimye.

Umwana muto uri guseka bigaragara ko yishimye, wateze ibiganza bye ku mugezi uri kuvamo amazi, iruhande rwe hateretse amajerekani y'umuhondo n'indi y'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'amakarokaro n'ipantaro y'umukara, uri ku mugezi bigaragara ko yari yaje nko kuvoma uri guseka yishimye.

Abagabo n'abagore basa naho bari ku bitaro, hari n'umunzani ukoreshwa bapima abana, bigaragara ko nk'abo babyeyi baje baje gupimisha abana babo bakaba bari kuganira na muganga.

Abantu bari ku mugezi, umugabo umwe ari guhaga amazi ngo ajye mu ijerekani kandi koko biri gukunda, abana bamukikije bari kureba.

Abagabo bari kumwe baseka, umwe akoze mu kiganza cy'undi, bigaragara ko bari no kuganira, inyuma yabo hari undi muzungu uri kuganira n'umwirabura.

Abantu benshi batandukanye ariko barimo abagiye bambaye ibisa birimo udupira tw'umweru turiho n'ikirango gisa, bari kumwe baganira, bisa n'aho bafite ingingo runaka baganiraho.

Abana benshi bambaye impuzankano y'umuhondo, bigaragara ko ari nk'iy'ishuri cyangwa ikigo runaka, inyuma yabo mu muryango hahagaze abazungu n'abirabura bose bari gupepera.

Abantu benshi bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko bari bari mu nama runaka, bamwe muri bo bambaye imyenda isa, abandi bambaye ibitandukanye.

Abantu benshi bambaye imipira y'umweru iriho ibirango bisa bicaye bari kumwe bigaragara ko bareba imbere umuntu uyoboye inama barimo.

Abantu benshi, bicaye mu cyumba, bigaragara ko ari icyumba cy'inama, bitewe n'ukuntu bigaragara ko bari kureba umuntu umwe uri kubabwira, barimo abazungu n'abirabura.

Abana batoya bambaye impuzankano bigaragara ko ari abanyeshuri, bari ku mugezi bari kuvoma amazi bakoresheje utudobo dufite ibara ry'umuhondo ndetse n'akajerekani gatoya.

Abantu bari kwa muganga, bose bambaye udupfukamunwa, ku meza harambitse mudasobwa n'utundi dukoresho duke twifashishwa n'abaganga.

Abagore benshi, biganjemo ababyeyi, bahagaze imbere y'inzu, bari kwifotoza, barimo na bamwe bambaye impuzankano bigaragara y'uko ari nk'abajyanama b'ubuzima.

Umwana uri ku mugezi aseka bigaragara ko yishimye, yateze amaboko ngo amazi agwemo, iruhande hari amajerekani yo kuvomeramo.

Umwana muto wambaye amasaro ku mutwe ucigatiwe n'umubyeyi wambaye igitenge, muganga ari kumutera urushinge.

Umubyeyi ucigatiye umwana, bigaragara ko ari mu cyumba kirimo n'abandi babyeyi benshi bafite n'abana, bigaragara ko hari igikorwa cyabaye kibahuza.

Inzu bigaragara ko ari nko ku bitaro, isakaje amabati ajya gusa umutuku ndetse hino hari inyubako ishishikaje cyane iriho n'amazi.

Umugore wambaye umupira w'ubururu n'ikarita igaragaza ko iranga icyakora, uri kugenda ahereza impapuro abantu, bigaragara ko hari nk'ikintu runaka ari kwamamaza.

Umugore n'umugabo bari kuvoma amazi ku ivomo rimwe, bose bafite amajerekani afite ibara ry'umuhondo, bigaragara ko iri ari ivomo rusange.

Abantu benshi barenga umunani, bicaye mu cyumba gisa na ho ari icy'inama, bigaragara ko hari umuntu uri kubabwira, bakurikiye ibyo ari kubabwira, ab'imbere bari kureba mu bitabo.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano bigaragara yuko ari umunyeshuri, uri gukaraba akoresheje kandagira ukarabe.

Abagore batatu, bari ku mugezi, babiri muri bo bateretse ibijerekani ku ruhande, barimo baratega amaboko, bakanywa amazi, aguye kuri ayo maboko.

Abantu bishimye baseka bambaye imipira isa y'ubururu, bambaye n'ingofero zisa z'umweru bazamuye ukuboko kwabo kw'iburyo.

Ababyeyi bane bicaranye n'undi mubyeyi bigaragara ko ari umuganga, iruhande rwe hari ibitabo bishobora kuba byanditsemo amakuru yifashishwa y'abarwayi, binagaragara ko agira inama abantu bari kumwe.

Abantu benshi bigaragara ko bari mu cyumba cy'inama, barimo abazungu n'abirabura, ku murongo w'imbere hicaye umugore umwe n'abagabo babiri, umugore yambaye ikarita imuranga n'umugabo umwe ayambaye undi bitagaragara.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba kimwe, bigaragara ko ari icyumba cy'inama, imbere yabo ku meza harambitse udukombe , bigaragara ko banywereyemo icyayi.

Abaganga babiri, bambaye imyenda y'ubururu, bambaye udupfukamunwa ndetse n'udukoresho twi'isuku mu mutwe, bigaragara ko bari gupima abarwayi nk'umugabo wasamye bari gupima mu kanwa, abandi bari ku murongo bategereje.

Ikirango kigaragaza ukuntu imigabane itandukanye ikoresha imiti, bigaragara ko ku mugabane w'Afurika bigoye cyane.

Umugore wambaye umupira w'umukara n'agapfukamunwa k'umukara n'ingofero y'igitaka, wafunze amaso ubwo umuganga yari ari kumutera urushinge.

Abagore babiri bigaragara ko umwe ari umuganga, undi ari umubyeyi wazanye umwana we ku bitaro, muganga arimo arahereza umuti umwana.

Umugabo uhagaze imbere y'indangururamajwi bigaragara ko ari mu nama, iruhande rwe hari intebe ziticayeho abantu n'utumeza duto turiho amacupa y'amazi.

Abazungu n'abirabura bari mu cyumba kimwe, bisa n'aho bari mu nama, ku meza yabo hateretse uducupa turimo amazi.

Abana bato bagera kuri bane, baje kuvoma ku ivomo rusange, bari gufashwa n'umukobwa urimo ahaga amazi kugira ngo aze.

Abantu barindwi, bari mu cyumba kimwe, bambaye ibintu bitandukanye ariko bose bambaye udupfukamunwa, harimo umukobwa wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ingofero, bigaragara ko ari guhereza umuti umwana muto.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi, harimo umugore wambaye agapfukamunwa ndetse nk'akenda k'isuku mu mutwe, yambaye n'imyenda y'icyatsi igaragara nk'impuzankano ikoreshwa hano.

Abagore babiri bateruye indobe imwe, bigaragara ko bari kuyikura ku mugezi kugira ngo n'abandi babone uko bavoma, bigaragara ko umugezi wubatswe n'ikigo cy'isi gitanga ubufasha nk'uko bigaragara mu cyapa kiriho.

Abana bane bari ku mugezi, umwe ari guhaga amazi ameneka ku ruhande, ijerekani iteretse ku mugezi bigaragara ko bakonje.

Umukobwa uri kuvoma amazi akoresheje ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, iteretse mu ibase, ari ahantu hanze, hanitse imyenda myinshi, bigaragara ko yameshwe.

Abana batandukanye bari ku mugezi uhagwa kugira ngo amazi aze bareba ku ruhande, bigaragara nkaho hari ikintu barangariye kiri mu ruhande rwabo.

Abantu benshi bigaragara ko bafite imyaka itandukanye, bivuze ko ari ingeri zitandukanye, abakuze n'abakiri batoya, bari kumwe bigaragara ko bari bahuriye mu gikorwa runaka.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara uri gukarabira kuri kandagirukarabe yoroheje ikozwe mu kajerekani gasanzwe iruhande rwe hari indabo.

Abagabo n'abagore biganjemo abambaye impuzangano y'umweru bigaragara ko ari nk'abaganga, bari kumwe n'undi mugore wambaye imyenda itukura ari hagati yabo.

Ikimodoka cya rukururana, cyanditseho icyapa, cyanditseho amagambo wa na fa na pa biri mu ibara ry'ubururu.

Umuganga wambaye agapfukamunwa n'uturindantoki n'ishati y'umweru bigaragara yuko ari impuzankano y'abaganga, uri gutera urushinge umugabo nawe wambaye agapfukamunwa.

Abagabo n'abagore bambaye impuzankano y'amataburiya asa n'umweru, bari kumwe n'umugore w'umuzungu wambaye ikanzu itukura.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru wambaye n'uturindantoki, bigaragara ko ntari guhereza imiti umubyeyi umuri imbere, inyuma hahagaze umusore bigaragara ko ari umukorerabushake.

Abantu bari kwa muganga bigaragara ko bari guhabwa ubuvuzi, ku meza iri hagati irambitseho imiti n'ibindi akenshi byifashishwa n'abaganga.

Abantu bagera ku munani, bicaye mu cyumba kimwe, bigaragara ko bari kungurana ibitekerezo ku ngingo runaka, unabona ko abenshi muri bo biganjemo abakuze.

Abantu batatu bari ku mugezi, umwe w'umugabo ari kuvoma ku mugezi umwe, undi w'umugore nawe ari kuvoma ku wundi, hejuru hahagaze umugore bigaragara ko ari kubaganiriza bose.

Ikirango kiriho ibigo bigiye bitandukanye, hariho ikigo cyita ku bana, hariho ikigo cy'isi cyita ku buzima, hariho ikigo gishinzwe kurwanya korona virusi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Icyapa kiriho icyorezo cya Ebola, abasore babiri n'umugore, umusore umwe yigize nk'umusaza, afite n'indangururamajwi, bisa na ho afite ibintu ari kubwira mugenzi we ndetse n'umugore wunamye hasi n'abana benshi bari kumvamva, ibiri kuvugirwa aho ngaho.

Umugore wikenyeje igitenge, wambaye umupira w'imbeho ndetse n'ingofero, uri ku mugezi uriho uvamo amazi, afite ibijerekani by'umuhondo.

Abantu b'ingeri zitandukanye, barimo n'abo bigaragara ko ari abaganga kuko bambaye impuzankano yabo, bari imbere y'inzu ifite irangi ry'ubururu n'amagambo yanditseho avuga ngo ''Gira ubuzima.''

Abakobwa bisa n'aho ari abaganga cyangwa abajyanama b'ubuzima, bari kumwe n'umubyeyi ucigatiye umwana we, bigaragara ko hari ubuvuzi bari kumuha, iruhande rwabo hicaye undi mukobwa ukiri mutoya.

Abana batoya bigaragara ko bishimye, bari guseka, banaririmba kuko bari gucurira, bambaye imipira y'umuhondo bigaragara ko ari impuzankano yabo.

Umugore wambaye inkweto zifunguye, ubusanzwe zo gukarabiramo, wicaye iruhande rw'igiti, cyanditseho amazina y'abantu bigaragara ko bashobora kuba baziranye.

Abantu benshi b'ingeri nyinshi zitandukanye, bari kumwe baseka, bigaragara ko bamaranye iminota, bari nko kuganira ku kintu runaka by'umwihariko ku bwenge.

Abantu bagaragaza amarangamutima agiye atandukanye n'ahantu handitse amagambo ari mu ibara ry'umuhondo, asobanura ko ari urupapuro rw'ubushakashatsi ndetse n'andi yandikishije umweru, avuga amahoro yo mu mutwe.

Umutwe w'umuntu wanditsemo amagambo asobanura umunsi w'ubuzima bwo mu mutwe, ufite igice kinini cy'umweru, iruhande hagiye hari utubara tw'icyatsi.

Umuntu bigaragara yuko afite agahinda kenshi, amaso yiwe yatukuye ndetse n'amarira arimo aramanuka ku matama ye.

Amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara avuga ku buzima bwo mu mutwe, ndetse n'udushusho dutoya bigaragara ko duhagarariye abantu bari kumwe.

Umubyeyi wambaye amadarubindi ufite imisatsi myinshi y'umukara, uri kwerekana ikirango cye nk'umuganga yambaye ku ikarita iri mu ijosi rye.

Imodoka nini y'umweru yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu asobanura ngo kumurika ibitaro byo mu mutwe bigendanwa muri Bugesera.

Umupira ufite ibara ry'mweru ku maboko no ku ikora ari ubururu, inyuma mu mugongo handitseho inyuguti ya ra, na pa, na sa n'andi magambo matoya.

Umubyeyi uri guseka, bigaragara ko yishimye, wambaye umwenda w'umweru, acigatiye umwana ukiri muto cyane na we uri guseka, adafite umusatsi mwinshi ndetse utaramera n'amenyo.

Umusore wambaye umupira w'umuhondo, urimo guseka anahumirije, bigaragara ko ari kwerekana amenyo yiwe, yerekana ko yayitayeho.

Umusore bigaragara ko yihebye afite ikibazo yubitse umutwe yakojeje amaboko mu gahanga, ari kumwe n'umukobwa bigaragara ko ari kumuhumuriza.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bari kumwe, barimo abakuze, urubyiruko, barimo n'abambaye impuzankano z'abapolisi, bigaragara ko bari bahujwe n'igikorwa runaka.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, uri kumwe n'umugore witeze igitambaro cy'ubururu, yicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza hariho igitambaro cy'umuhondo ateretseho icupa ry'amazi.

Inzu nziza iriho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu, yanditse ku gice gisa n'umweru, imbere y'inzu hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abakobwa babiri bari kumwe, umwe yambaye imyenda y'umukara, undi yambaye ikanzu y'ubururu ifitemo amabara y'umweru, afashe ibikinisho mu ntoki.

Umukobwa wambaye ikote ritukura, mo imbere harimo umupira w'ubururu, ari guseka yifotoza ufite umusatsi utari mwinshi.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe, kirimo ishusho y'umuntu irimo ishusho y'ubwonko ndetse n'inyenyeri ziyizengurutse.

Umukecuru bigaragara ko ageze mu zabukuru witeze igitambaro gifite ibara ry'umweru, wambaye n'urunigi mu ijosi imitsi ye igaragara cyane.

Abagore batatu bigaragara yuko bari kuganira bose bambaye udupfukamunwa, umwe yiteze igitambaro mu mutwe, abandi barasutse imisatsi yabo.

Umugabo bigaragara ko akuze ariko bidakabije, ufite nk'imyaka hagati ya mirongo ine n'itanu na mirongo itanu n'itanu, inyuma ye hari abandi bantu benshi, bigaragara ko hari igikorwa cyari cyabaye aho hantu.

Ikirango kiri mu ibara ry'umweru, amagambo amwe yandikishije ibara ry'umukara, andi ari mu ibara ry'icyatsi avuga ku buzima bwo mu mutwe.

Abagore babiri, umwe ufite imisatsi isutse undi afite idasutse bari kuganira, bisa n'aho umwe ari guhumuriza undi cyangwa se amugira inama, bicaye ku gatebe k'urubaho.

Abasore bigaragara ko bakiri bato, bari mu cyumba k'inama, bareba imbere bakurikiye, bambaye imipira isa iriho n'ibirangantego bisa.

Abantu benshi biganjemo abana batoya barimo kurira, bigaragara ko bafite ibibazo ari nk'abo mu gihugu gishobora kuba kirimo intambara cyangwa ibibazo by'inzara.

Umugore wambaye ikoti rijya gusa umukara, mu ibere harimo umwenda w'amabara menshi ariko umutuku wiganje, arimo araseka, afite n'imisatsi miremire y'umukara.

Umugore ufite imisatsi myinshi y'umukara isutse, wifashe mu mutwe yunamye nkaho ashobora kuba afite ibibazo runaka, yambaye imyenda y'umweru.

Umugore w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bigaragara ko ari nko mu nama kubera indangururamajwi ziri imbere ye, yambaye imyenda y'icyatsi, bigaragara ko afite ikintu yavuze ku buzima bwo mu mutwe.

Umugabo bigaragara ko afashe indangururamajwi witwa Uwihoreye, bigaragara ko hari ibintu yavuze ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abagabo n'abagore bari kwifotoza bigaragara yuko bakora akazi gatandukanye ariko mo hagati harimo uwambaye imyenda y'ubururu bwijimye bigaragara ko ari nk'umupolisi.

Amagambo menshi agiye atandukanye, harimo amwe asobanura ubuzima bwo mu mutwe, harimo andi asobanura kumenya gufasha, kwiyahura n'andi agiye atandukanye.

Umugore wambaye ishati ikoze mu gitenge, wicaye ahantu, inyuma ye ubona ko hari imiti ya kinyarwanda igiye itandukanye.

Ikirango kigaragaza ikigo cy'Igihugu gifasha mu mibereho y'ubuzima bwo mu mutwe, kikanabishyira mu bikorwa, gifite ikirango kiri mu mabara atandukanye harimo ubururu, icyatsi.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, imbere hari umugore bisa naho ari we uri kubaganiriza ku ngingo bateganyije y'ubuvuzi.

Umusore wambaye umupira w'umweru uri kwireba mu kirori, arimo yoza amenyo yiwe akoresheje akagozi gakoreshwa bahanagura amenyo.

Umusore urimo araseka yerekana uburyo amenyo ye ari meza, afashe n'andi mu ntoki yayatunzeho urutoki, bigaragaza ko yerekana uburyo yayafashe neza.

Umusore uri guseka bigaragara ko yishimye ariko anashaka kugaragaza uburyo amenyo ye asukuye, anafashe akagozi kifashishwa basukura amenyo.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga, kirimo igitanda cyo kuryamaho umurwayi, hariho n'agatebe ko kwicaraho gafite n'amapine bigaragara ko kagenda n'ibindi bikoresho.

Abagore babiri umwe wambaye ikoti ry'ubururu undi yambaye ikoti ry'umutuku ari kwandika, bigaragara ko bari barikumwe mu gikorwa runaka kuko i ruhande rwabo hateretse amacupa y'amazi ku meza bisa naho bari bari nko mu nama.

Umuganga utagaragara cyane wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki n'umurwayi uryamye bisa n’aho ari guhabwa ubuvuzi na muganga.

Abaganga babiri bambaye impuzankano z'umukara ndetse n'udupfukamunwa n'uturindantoki, bari gufasha umurwayi uryamye wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu.

Igikoresho cyo kwa muganga, cyubatse mu buryo butangaje, gifite amabara y'umweru yiganje, cyifashishwa mu buvuzi bw'amenyo.

Umuganga wambaye muturindantoki n'agapfukamunwa n'impuzankano y'abaganga uri gufasha umurwayi wabumbuye akanwa bigaragara ko ari kumufasha mu menyo.

Umuganga wambaye amadarubindi n'agapfukamunwa ndetse n'impuzankano, uri kuvura umugore mu kanwa, bigaragara ko ari nko gukura amenyo.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo umuganga wambaye agapfukamunwa n'uturindantoki n'impuzankano y'umweru, bigaragara ko ari kuvura umusaza mu menyo.

Umukobwa ukiri muto ufite imisatsi minini y'umukara uryamye ku gitanda bigaragara ko ari icyo kwa muganga, afite ikirori imbere yiwe ari kwireba.

Umugore ufite imisatsi y'umukara, uhumirije, ufite ishinya zitukura, ugaragara nk'aho ari gusukura amenyo akoresheje akagozi kifashishwa basukura amenyo.

Umusore ufite agasatsi gake, n'ubwanwa butari bwinshi cyane, wambaye umupira w'umukara, arimo aseka agaragaza amenyo yose, kandi bigaragara ko amenyo ye ameze neza.

Icyumba cyo kwa muganga kiriho uburiri umurwayi aryamaho, ushobora kwegura cyangwa ukanarambura byoroshye ndetse n'agatebe muganga yicaraho n'imashini zifasha mu gupima uko umurwayi ameze.

Abantu bambaye udupira dusa, dufite ibara ry'icyatsi ndetse n'ijambo ryanditseho ngo tubiteho, riri mu gatuza k'umwenda, byanditse mu ibara ry'umuhondo, n'abandi inyuma bagiye bambaye ibitandukanye.

Abana batoya bafite uburoso n'umuti w'amenyo, bari kwihanagura amenyo bigaragara ko bishimye, buri wese afite agakombe k'amazi.

Umukobwa ufite ibisuko by'umukara uri guseka, bigaragara yuko ari kumwe n'umuganga uri kumwereka amenyo, yerekana uburyo yose asa neza.

Umusore wambaye umwenda w'umweru uri guseka, bigaragara ko ari gutunganya amenyo yiwe, akoresheje akagozi kifashishwa bahanagura amenyo.

Umugore n'umwana, bose bafite imisatsi myinshi y'umukara, bambaye udusengeri tw'umweru, bafite uburoso bwo gusukuza amenyo.

Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye imyenda isa icyatsi undi yambaye isa umweru, bari kuvura umugore mu kanwa bigaragara ko ari amenyo bari kwitaho.

Abaganga batandukanye bari kumwe bose bambaye uturindantoki dufite ibara ry'ubururu, bafite ibikoresho byinshi bose bahuriye ku murwayi uryamye bari kuvura mu menyo.

Inyubako ndende igeretse gatatu, ifite igisenge kiri mu ibara ry'icyatsi, ifite uruzitiro ruriho ibyatsi n'ibiti ndetse ruri mu ibara ry'ubururu.

Umusaza bigaragara ko ageze mu za bukuru ufite imvi, wambaye n'amadarubindi uri mu nzu imbere ye hari ikirori kinini cyane kiri ku gikuta ndetse hasi hari umugezi n'isabune.

Umusaza uri kumwe n'umukecuru wambaye amadarubindi, imbere yabo hateretse mudasobwa n'dukombe turimo imiti, bari gusoma amagambo yanditse ku gapapuro kari ku gacupa umusaza afite mu ntoki.

Umugabo bigaragara ko amaze kuba mukuru, ubyibushye, wicaye mu ntebe, yambaye ishati y'ubururu, uri kumwe n'umukobwa bigaragara ko we akiri muto, wambaye ishati y'icyatsi, ari kumufungira ishati.

Umugabo bigaragara ko ageze mu zabukuru ufite n'imvi, acigatiye umwana ukiri mutoya ufashe igipupe mu kuboko kwe kw'iburyo.

Umugabo n'umugore bigaragara ko bose bakuze banafite imvi bari kureba mu nzira mugozi, imbere ku meza yabo hateretse uducupa turimo imiti ndetse n'ikirahuri cy'amazi.

Umubyeyi w'umugore uri kumwe n'umwana bigaragara ko ari kumukinisha imikino, umwana muto ufite nk'imyaka itandatu.

Umukecuru bigaragara yuko ari mu zabukuru, uri kumwe n'umukobwa ukiri mutoya ufite imisatsi myinshi y'umukara, wambaye igikoresho cyo kwa muganga, ari gufasha umukecuru guterura.

Umugore bigaragara ko akuze kuko afite imvi, afashe indangururamajwi, yambaye agapira gasa ubururu, inyuma ye cyane, hari imodoka n'inzu.

Umugore mukuru, bigaragara ko ageze mu zabukuru, afite imisatsi y'imvi, uri kumwe n'undi mugore ukiri muto, ufite imisatsi y'umukara isutse ndetse n'umwana ukiri muto.

Umugabo ukuze uri kumwe n'umuganga wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ijya gusa umukara n'inkweto z'umweru, bigaragara ko ari gufasha umurwayi kugenda kuko atabyishoboza.

Umugabo n'umugore bambaye imipira itukura n'ubwo uw'umugore urimo n'uturongo tw'umukara, bari mu cyumba bari kumwe bigaragara ko hari ikintu bari gukora ku meza yabo.

Abagore bari kumwe n'abana benshi, bamwe bicaranye, abandi babacigatiye, abandi bahagaze, inyuma yabo.

Abagore bambaye imipira y'umweru n'ingutiya z'umukara, abenshi bambaye n'inkweto z'umukara, harimo n'undi wambaye ishati idasa umweru ndetse n'undi wambaye ikanzu yo mu gitenge.

Umusaza mukuru bisa naho byamucanze, wifashe mu gahanga, imbere ku meza ye hari amakayi menshi n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, bigaragara nkaho ari gutekereza cyane.

Umusaza wicaranye n'umugore bari kurya ibiryo bitandukanye, bifite n'amabara atandukanye bimwe bisa icyatsi nkaho ari bibisi ndetse ku meza hateretse ikirahure cy'amazi.

Umugore n'umugabo bigaragara ko ari bakuru kuko bose bafite imva imbere yabo ku meza bigaragara ko harambitse imiti barimo baseka bigaragara ko bishimye.

Umugore n'umugabo bigaragara ko bageze mu zabukuru, umugore afite imisatsi y'imvi ndetse n'umugabo afite ubwanwa bw'imvi ari no kunywa amazi bigaragara ko bishimye.

Abantu basa n'aho ari umuryango, barimo abo bigaragara ko bakuze ari nk'ababyeyi ndetse n'abana bakiri bato, bose bicaye ahantu baseka, baganira.

Umusaza mukuru ufite n'ivi wicaye hanze y’inzu iruhande rwe hari utwana tubiri dutoya kamwe bigaragara ko gafite akajerekani gato karimo ibyo kunywa akandi gafite icyo kari kurya.

Umugore uri mu myitozo ngororamubiri wicaye ku mwenda yarambitse mu byatsi kugira ngo aticara hasi, yambaye ipantaro itukura n'umupira ufite ingofero.

Abagore babiri bari kumwe, bambaye nk'aho bari gukora imyitozo ngororamubiri, umwe mu mutwe we, yitandiye akenda k'umutuku, undi afite imisatsi isutse.

Abakecuru bari kumwe, bigaragara y'uko bitabiriye inama, ndetse hari umuntu uri imbere yabo, ufite icyo ari kubabwira.

Ni umusaza bigaragara ko akuze, wambaye agapira k'umuhondo, uri gufashwa imyitozo n'umusore, bigaragara ko akiri muto, afite umugozi bari kujya bakurura.

Umugore bigaragara ko ageze mu zabukuru, ufite imisatsi y'imvi, wambaye n'amadarubindi, wifashe ku munwa afite n'ikirahuri cy'amazi.

Umugore urimo aseka bigaragara ko yishimye, ufashe agakoresho ubusanzwe gakoreshwa mu myitozo ngororamubiri, inyuma ye hari abandi bagenzi be bigaragara ko bakuze bari gufatanya na we imyitozo.

Umugabo bigaragara ko ageze mu zabukuru ufite n'ivi, uri kumwe na muganga bigaragara ko ari kumufasha mu twitozo tworoheje kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Umugabo bigaragara ko ari mu zabukuru, uri kumwe n'umuganga wambaye agakoresho gakoreshwa n'abaganga bapima uko umutima utera, bari mu cyumba kirimo n'abandi bantu.

Umusaza bigaragara ko ageze mu zabukuru afite n'imvi, wambaye n'amadarubindi urimo aseka, ari kumwe n'umukobwa bigaragara ko akiri muto w'imisatsi miremire, afite n'igikoresho cyo kwa muganga, cyifashishwa bapima.

Umusaza n'umukecuru bigaragara ko bari mu za bukuru bafite n'imvi bari gusoma agapapuro kanditseho uburyo bakoresha imiti, imwe umusaza yamaze kuyishira ku kuboko bafite n'kirahuri cy'amazi cyo kunywesha.

Umusaza mukuru uri kureba mu kirahuri cy'inziramugozi, bigaragara y'uko ari kuyikoresha yicaranye n'umugore, bigaragara y'uko ari umuganga.

Abantu barenga icumi bari kumwe, bigaragara ko bishimye, bafite ibikoresho bikoreshwa n'abakuze, cyane cyane abageze mu zabukuru, birimo utugare two kugenderaho, ku bantu batabasha kugenda, imbago ndetse n'izi ntebe, byorohereza abageze mu zabukuru.

Abagore babiri bigaragara ko bageze mu zabukuru, bari kumwe imbere yabo hari imbuto z'ubwoko butandukanye, bafite n'imboga, bigaragara ko bari kubitunganya kugira ngo babikoreshe.

Umusaza bigaragara ko ari mu zabukuru, ufite ubwanwa bw'imvi, wambaye imyenda y'umweru, ari iruhande rw'imashini zifashishwa n'abaganga bapima ndetse n'umuganga amuhagaze iruhande.

Abantu babiri bari kumwe baseka bigaragara ko bishimye, umusore ndetse n'umugore, bigaragara ko umusore ari umuganga bitewe n'impuzangano yambaye ikoreshwa kwa muganga ndetse n'igikoresho afite mu ijosi gikoreshwa kwa muganga.

Abantu batandatu, batatu b'imbere bagaragara neza, barimo umusore wambaye ikarita imuranga n'umusaza uri kurebana n'umugore, bafite ibyo kurya n'amazi ku meza.

Umugore bigaragara ko akuze, ufashe ikirahuri cy'amazi, ari kumwe na muganga wambaye impuzankano yabo iri mu ibara ry'ubururu, bisa n'aho gafite ikinini, ari kumuhereza ngo anywe.

Umuganga w'umugore, uri kumwe n'umusaza, bigaragara ko ari mukuru, wambaye umupira w'ubururu, unateruye akantu k'ibiro byinshi, gafasha mu kurambura amaboko.

Urupapuro rwanditseho inyuguti N na C na D, zanditse mu ibara ry'ubururu, iruhande hari ikaramu ndetse urundi ruhande ruriho agakoresho kifashishwa n'abaganga bapima.

Umubare gatatu, iruhande rwawo hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru asobanura ngo ubuzima bwiza n'imibereho myiza, hepfo hari ikirango cy'umurongo w'umweru uvunaguye ndetse n'ikimenyetso cy'umutima.

Abakobwa babiri n'abasore babiri bafite udukingirizo tw'amabara atandukanye, harimo ubururu, umutuku n'umuhondo baseka.

Umugore wambaye agapfukamunwa, ufite n'ibisuko, bigaragara ko afite ubwoba, mu gihe muganga ari kumutera, urushinge.

Abakobwa benshi bari kwifotoza bambaye imipira isa y'umweru, yose iriho ikirango kigaragaza ko ari ikintu runaka bahuriyeho bari gukora.

Abantu bagiye batandukanye, bambaye udupfukamunwa, twiganjemo udufite ibara ry'umweru, bigaragara ko wari kwakirirwa n'abaganga.

Ikirango kiriho uburyo bwinshi bwifashishwa mu kurinda icyorezo cya Korona, harimo uburyo umuntu akwiriye gukaraba intoki, uburyo bwo gukorora, kwambara agapfukamunwa n'ubundi buryo bwo kwirinda Korona.

Abantu benshi bari kwifotoza, bigaragara ko abenshi bafite imyaka yigiye hejuru ariko harimo n'abatarakura cyane, bigaragara ko basoje nk'intama runaka.

Ikirango cyanditseho ngo twirinde indwara y'ubushita bw'inkende, twirinde byanditse mu ibara ry'umweru kandi ari binini, kurusha indwara y'ubushita bw'inkende byanditse mu ibara ry'umuhondo.

Ikirango kirimo inyuguti nkuru ya h na p na r, hepfo handitseho amagambo arambuye agiye asobanura buri nyuguti.

Ikirango kiriho amabwirizwa ava muri minisiteri y'ubuzima igaragaza ko bashaka kuzamura uburyo abantu bagera ku buvuzi byoroshye.

Abantu benshi bambaye imyenda yiganjemo imipira y'umweru, bari kugenda, ab'imbere bafashe ikirango cyanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumishe hakiri kare, kuko ivurwa igakira.

Ikirango k'inama y'ubuzima cyanditseho ko habura umunsi umwe ndetse hananditseho ngo iyandikishe nonaha, bigaragara ko yatumiraga abantu kwitabira iyo nama.

Ikirango kiriho amagambo ari mu ibara ry'ubururu asobanura ubufatanye mu myigire, hari andi ari hepfo mu ibara ry'umutuku asobanura abana ndetse n'indwara ya sida.

Ikirango kigaragaza ko, ibigo bibiri bitandukanye, byishyize hamwe, ngo bifashe ubuvuzi kugera ku bantu benshi, ibyo byanditse mu mabara y'umukara.

Ibirango bibiri kimwe kiri mu ibara ry'ubururu, kirimo amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, ikindi kiri mu ibara ry'icyatsi nacyo kirimo amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi barenga nka mirongo itatu, bafashe amafoto bari kwifotoza bari kumwe baseka, bigaragara ko bishimye.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama, imbere hicaye abantu batatu abagore babiri n'umugabo umwe bigaragara ko aribo bayoboye inama.

Umugabo wambaye ingofero, ufashe urupapuro rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, asobanura ngo urukingo rw'ubushita bw'inkende, ubu ngubu warubona.

Abagabo babiri bambaye udupfukamunwa bose, umwe yambaye imyenda y'ubururu undi yambaye impuzankano isa n'iy'abandi bari kumwe, ari gutera urushinge.

Abantu benshi bari mu nama, bigaragara ko bari kwiga ku ngingo runaka, abayoboye inama, barimo abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe ziri imbere.

Ukuboko k'umuntu kuriho uduheri twinshi dutoya, bigaragara ko ari ibimenyetso by'indwara y'ubushita bw'inkende cyangwa izindi ndwara zifata uruhu.

Abantu bari mucyumba cy'inama, abayoboye inama bigaragara ko bicaye mu gice cy'imbere, harimo abagabo batatu n'abagore babiri, barimo umwe ufite indangururamajwi bigaragara ko ariwe uri kuvuga.

Amagambo asobanura ngo murakaza neza ku buzima bw'umugore, ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, bigaragara ko ari ugutumira abantu mu nama izahuza abantu biga ku ngingo y'ubuzima bw'umugore.

Inzu nini zigerekeranije, ruguru yazo hari urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, bamwe bari kugenda berekeza kuri iyo nzu, abandi bagaruka.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, mu ibaraza ryayo harimo abantu bicaye, bigaragara ko bategereje umuntu ubafasha, imbere hari ubusitani.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo imyenda miremire, itandukanya ahantu hamwe n'ahandi ndetse urebye hirya cyane, harimo n'abantu bari muri icyo cyumba.

Icyumba bigaragara ko ari icyo gukorerwamo imyitozo ngororamubiri kuko harimo bimwe baterura kugira ngo bakomeze ingingo ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Imashini nini ikoreshwa kwa muganga, ifite igice kinini cy'umweru, bigaragara ko ari aho umurwayi aryama iyo bagiye kumupima, ndetse n'ikindi gice k'ikizeru bigaragara ko ari ho bashyira umutwe iyo bari gupima.

Icyumba cyo kwa muganga gifite isuku cyane, kuko ibara ry'umweru ariryo ryiganje ndetse n'ibitanda biriho uburiri bufite ibara ry'ubururu.

Umurwayi uryamye kwa muganga, akikijwe n'ibikoresho byinshi byifashishwa na muganga mu gupima uko ahagaze no kumenya uburyo bamuhamo imiti.

Inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye n'ikindi gice kinini kigizwe n'ibirahure, imbere yayo hari ubusitani bunini cyane burimo n'utuyira twinshi two kunyuramo.

Icyumba kinini, bigaragara ko ari igice cyo ku bitaro, higanje amabara y'umweru, ndetse n'andi y'ubururu, yanditseho amagambo mu ibara ry'umweru.

Inzu bigaragara ko ari nk'ikigo nderabuzima cyangwa igice k'ibitaro bigaragara ko gifite ahantu hanini hisanzuye h'ubusitani hanateyemo igiti.

inzu ikigo nderabuzima cyatabagwe bigaragara ko kuhagera ari ukuzamuka gato hanze yayo hari abantu benshi batandukanye bigaragara ko hari urujya n'uruza

Umuganga uri kuvura umwana, bigaragara ko yishimye ndetse bari kumwe n'undi musore, bigaragara ko afitanye isano n'umwana uri kuvurwa.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu n'icyapa kinini kiyobora aberekeza aho hantu, hari n'umugabo uhagaze ushinzwe umutekano w'aha hantu.

Ibitanda byo kwa muganga, bimwe biryamyeho abarwayi, ibindi nta barwayi bariho, harimo n'inzitiramibu, bigaragara ko abarwayi hano bitabwaho kandi bakarindwa malariya.

Abantu benshi barimo abazungu n'abirabura, bari kwifotoreza imbere y'inyubako y'ibitaro bya Rwamagana, nkuko bigaragara mu magambo manini yanditseho Rwamagana.

Inzu igeretse bigaragara ko ari nini cyane ndetse iri ku muhanda. Hari ibiti by'imikindo byegereye ku muhanda, hari n'imodoka iruhande rw'iyo nzu.

Inyubako ndende, igerekeranyije, yanditseho amagambo asobanura ko, ari ikigo gikora ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti, mu ibaraza ryayo hari imodoka.

Inyubako iri ahantu hanini, bigaragara y'uko ari nk'iy'ibitabo ifite igice kinini cyubusitani, ndetse n'amabati ayisakaye akaba asa umutuku.

Igice by'ibitaro bigaragara ko ariho ababyeyi babyarira, iruhande rwacyo hari umuganga wambaye agapfukamunwa n'impuzankano yabo uri kujya imbere.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini za rutura, bigaragara ko ari nk'ahantu bashobora kuba bahagira, hari uburiri bufite ibara ry'icyatsi ariko burambuyeho umwenda w'umweru.

Uruhande rumwe rw'inyubako ruhinzemo indabo bigaragara ko ari ubusitani, harimo akayira kerekeza ku inyubako ubu kari kunyuramo abantu barimo bagenda.

Inzu nziza igaragara neza, ifite igice kinini imbere yacyo gitoshye kiriho ubwatsi bwinshi ndetse ikirere ubona ko gisa neza, kirimo ubururu n'uducu dukeya tw'umweru.

Inyubako ndende igereretse inshuro irenze imwe, imbere yayo hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse hanze y'uruzitiro hari imodoka nziza.

Inzu bigaragara yuko ari ku bitaro ndetse imbere yayo hari icyapa gishobora kukuyobora no kugufasha mu gihe ugiye muri iyo nzu.

Ikigo nderabuzima, cya Shagasha, kiriho abantu bicaye mu ibaraza ryacyo, ndetse gisakaje amabati y'ibara ry'ubururu.

Ahantu hari ubusitani bunini, bigaragara ko hafite isuku, hari n'uduhanda dutoya two kunyuramo ku bagenzi, bigaragara ko ari nko kwa muganga.

Inyubako bigaragara ko icururizwamo imiti nk'uko birangwa n'icyapa kinini kiriho hejuru n'amagambo ariho agaragaza ibigo by'ubwishingizi bakorana na byo n'abantu bari ku muryango wacyo.

Icyumba cyo kwa muganga, cyanditseho amagambo asobanura ko ari icyumba cyagenewe gukorerwamo ubushakashatsi.

Umuntu wambaye wikwije, wambaye igisarubeti cy'umweru ndetse n'inkweto z'umukara, iruhande hari utudobo, kamwe k'icyatsi akandi ari ubururu.

Icyumba kirimo intebe yo kwa muganga iri mu ibara ry'icyatsi, bigaragara ko ushobora kuyihinduramo uburiri cyangwa ukayihindura intebe bitewe n'icyo ushaka.

Ibitaro binini, bigaragara ko ari ibitaro by Akarere ka Nyarugenge, byubatse neza bigeretse bigaragara ko bifite isuku.

Icyumba cy'ibitaro kirimo intebe eshatu zo kwicaraho, bigaragara ko hari iz'abarwayi bicaraho barebana n'abaganga.

Icyumba kinini kirimo intebe z'ubwoko butandukanye, harimo n'iz'imifariso bigaragara y'uko ari kwa muganga.

Umukobwa wambaye ikanzu ikozwe mu gitenge uryamye ku buriri bigaragara ko arwaye, umuganga umwe w'umugore amufashe ku kuboko undi amufashe ku mutwe.

Inyubako nziza imbere yayo hari amamodoka menshi ndetse hari n'abantu imbere yayo icyapa kigaragaza ko ari ibitaro bya kaminuza y'u Rwanda i Butare.

Abagore bane bambaye impuzangano n'udupfukamunwa bigaragara ko ari abaganga bari imbere y'inzu y'ababyeyi, bigaragara ko ari bo bavurirwa mo imbere.

Icyumba cyo kwa muganga gifite isuku, kirimo igitanda cyo kuryamaho kiriho n'agatebe k'umweru kicarwaho na muganga, harimo n'akabati gafite ibara ry'umuhondo.

Inzu nini ifite igice kinini cy'ubusitani, harimo abantu bagenda bigaragara ko bakoramo, hashinzemo igiti kiriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umuganga wambaye imyenda y'abaganga y'umweru n'agapfukamunwa k'umukara, ufite n'imisatsi miremire y'umukara uri kuri mudasobwa.

Inzu bigaragara ko ari ibitaro, hari abantu bake bari mo imbere, abandi bari hanze ku muryango, bigaragara ko bategereje kwinjira.

Umwana mutoya wambaye ishati y'umweru, bigaragara ko ari umunyeshuri, uri kumwe n'umuganga wambaye agapfukamunwa n'impuzankano y'abaganga. ari kumwambika igikoresho.

Inzu ifite amabara y'umuhondo yiganje. Imbere yayo hahagaze umugabo bigaragara ko akuze, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byose bikenerwa, nk'igitanda ndetse n'imashini zifashishwa mu gupima umurwayi.

Abaganga batatu barimo babiri b'abagore ndetse n'umwe w'umugabo uri kwandika, undi mugore afite ikaramu atari gukoresha, undi ari gupima umurwayi.

Abagore batatu bari kumwe bose baseka, bambaye imyenda isa y'ubururu, bose bafite udukoresho tw'isuku mu mutwe ndetse inyuma yaho hari ibiti byinshi.

Icyapa cyanditseho ngo ''Ibitaro bya Ruhengeri'' bigaragara ko ari inzu y'ibitaro, iruhande hari urujya n'uruza rw'abantu bagenda banava ku bitaro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa bapima, harimo na mudasobwa, harimo intebe zo kwicaraho n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga.

Icyumba kinini kirimo amabara meza, yiganjemo ay'ubururu, icyatsi n'umuhondo, bigaragara ko ari nk'ahantu hagenewe kunyura abana cyane.

Icyumba bigaragara ko kibikwamo imiti, harimo imiti imwe iri mu ducupa ndetse harimo n'inshinge, bitondetse neza mu buryo bugerekeranye.

Inyubako iherereye i Remera nkuko bigaragara mu kirango cyanditseho ko ari inzu icuruza imiti iherereye i Remera.

Icyumba cyo kwa muganga Kigaragara ko ari ahantu hasukuye, hari intebe zo kwicara mu gihe umuntu ategereje gufashwa n'abaganga, bigaragara ko ari ibitaro binini cyane.

Umugabo wambaye ishati itukura n'ipantaro y'umukara, uhagaze hagati y'amamodoka menshi, inyuma ye hari inyubako ndende igeretse.

Inzu iriho icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, avuga ngo inzu y'ababyeyi n'abana, bigaragara ko ari yo bavuriramo ababyeyi ndetse n'abana batoya

Igice cy'ibitaro binini, bigaragara yuko ari ho abarwayi bakorera imyitozo kuko hari ibikoresho bikenerwa mu myitozo nk'utugare two kunyonga ndetse n'ahantu ho guhagarara babapima uko bihagaze.

Inzu yanditseho amagambo manini ari mu ibara ry'ubururu agaragaza ko ari ibitaro bifasha abarwayi bafite ikibazo ku buzima bwo mu mutwe.

Umugore wambaye imyenda y'ubururu, ufite imisatsi myinshi y'umukara ifungiye inyuma, izirikishije agatambaro k'ubururu, bigaragara ko ari gufasha umurwayi.

Inzu ndende mu bugari, bigaragara ko ari nko ku bitaro, hari abantu hanze n'amatara yaka, bigaragara ko bugorobye, zimwe zisakaje amabati atukura, izindi zisakaje amabati y'ubururu.

Igice cy'inzu kigaragaza ko ari aho bakirirwa bageze kwa muganga, hari umugabo umwe uhagaze wambaye agapira k'ubururu, bigaragara ko ari kwakirirwa, undi yicaye ku ntebe ndetse n'urundi ruhande ruriho abandi bicaye.

Icyumba cyo kwa muganga, kiriho uburiri burambitseho umwenda ufite ibara ry'icyatsi, hariho n'ibirahuri bigaragara ko ari ahantu hifashishwa bapima umurwayi.

Inzu ndende bigaragara ko ari inzu igeretse n'icyapa kiri imbere yayo cyanditseho amagambo amwe ari mu ibara ry'umweru, andi mu ry'umukara, andi mu bururu n'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga, kirimo n'igitanda umurwayi aryamaho bigaragara yuko bahakoresha bapima banavura abarwayi.

Intebe zibasha kugenda zifite amapine, bigaragara ko zagenewe abarwayi, mu nzu nk'imbere binagaragara ko harimo ubusitani buhinzemo indabo zifite ibara ry'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda, kiriho uburiri bufite ibara ry'umukara. Ku ruhande hari udukarito tugize akabati, dufite ibara ry'umuhondo ndetse n'itara ryaka bigaragara ko bwije.

Icyumba bigaragara ko ari icyo gukoreramo imyitozo, cyiganjemo ibikoresho byinshi byifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri, ubona ko ibyinshi bifite ibara ry'umukara n'ibindi bicye bifite iry'umutuku.

Umusore wambaye agapira k'ubururu, ufite ubwanwa butari bwinshi cyane, ufite amaboko manini, ufashe icupa ari kunywa amazi.

Umusore wambaye ikabutura y'umukara n'agapira k'umukara, upfukamye ku mukeka, bigaragara y'uko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye umupira w'ubururu, n'ikabutura y'umukara, uteruye utuntu bigaragara ko turemereye tw'umuhondo, bigaragara y'uko ari mu myitozo ngororamubiri, ari kumwe na mugenzi we uri kumufasha.

Icupa rifite ibara ry'ubururu ndetse n'impeta izengurutse y'umutuku, ririmo gusuka amazi mu kirahuri bigaragara ko amazi asa neza.

Umusore bigaragara ko yakoze imyitozo ngororamubiri, ukuboko kwe gukoze mu gituza, ukuboko kwe hariho ibimenyetso by'amabara abiri atandukanye, icyatsi n'umutuku, bigaragara ko kuri iyo ngingo hari ikibazo.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri hamwe, imwe iri mu ducupa, indi iri mu dupapuro twabugenewe, iruhande hari uturindantoki.

Imbuto z'ubwoko butandukanye, ziri kumwe n'igikoresho gikoreshwa muri siporo, hariho n'icupa ry'amazi, mu mbuto harimo nk'avoka.

Icyumba bigaragara ko ari ik'imyitozo, kirimo imipira y'amabara atandukanye, harimo iy'umutuku, ubururu ndetse n'icyatsi, harimo n'umugabo bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ikirango cyanditseho amazina Nshimiyumuremyi, bigaragara yuko kiriho ibintu Nshimiyumuremyi afasha, ku bantu bamugana bafite ikibazo.

Akajerekani gato k'umweru kariho agapapuro k'umukara kanditseho amagambo asobanura ngo hagarika uburibwe ndetse n'andi yanditse mu ibara ry'umweru yo gufasha abakoresha ibimo.

Amaguru y'umuntu ahabanza ari ukuguru gusanzwe kuzengurutswe n'ibyuma, ahakurikira igice kimwe ari ukuguru gusanzwe ikindi ari ibyuma, ahandi ari ukuguru kw'ibyuma gusa.

Igikoresho gifite ibara ry'umukara ndetse n'izina ryacyo ryanditse mu ibara ry'umweru, rifite igice gitoboye bigaragara nk'aho ari igice cyo ku ivi.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo akabati karimo udukoresho tugiye dutandukanye, kiriho uburiri umurwayi yaryamaho ndetse n'imashini nini bigaragaza ko yifashishwa bapima indwara runaka.

Icyumba kirimo abantu benshi batandukanye bigaragara ko harimo abakuru n'abato, harimo umuntu ufashe umwana uryamye hasi ndetse bigaragara ko ari kumwe n'umuganga, abandi bana bari ku ruhande rwo hirya.

Umusore wambaye isengeri n'ikabutura by'umukara, bigaragara ko ari kwikanda ku kaguru asa naho yababaye, ubwo yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Amashusho agaragaza ikiganza n'ibice bikigize, intoki uko zimeze ndetse n'ibishushanyo bigera kuri bine bifite imiterere ijya gusa ariko bitandukanye.

Umusore wambaye isengeri y'umukara ifitemo n'akandi kabara kazenguruka ku kuboko ndetse no ku ijosi, bigaragara ko ari kwerekana ko yabasha kwikora inyuma mu mugongo bitamugoye.

Imbuto zitandukanye zirimo avoka na pome n'urusenda n'ibindi, inkweto zo gukorana imyitozo, ipamba ndetse n'utundi dukoresho.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, wasobekeranyije amaboko, ukw'iburyo guhinnye kunyuzemo ukw'ibumoso, bigaragara ko ari umuntu usanzwe akora imyitozo ngororamubiri.

Imiti iri mu ducupa tubiri murire two dufunze akandi gafunze bitandukanye, hariho agapapuro kagaragaza ko imiti ikoreshwa mu kuvura uburibwe.

Igikoresho cyo kwa muganga bifashisha bapima uko umutima utera, kirambitseho imipira y'ubwoko butandukanye harimo umupira w'amaguru, harimo umupira wo bashyira mu nkangara n'indi itandukanye.

Umusore ufite mu gituza hanini bigaragara ko yakoze imyitozo ngororamubiri, ku rutugu rwe hariho ibimenyetso, kimwe kiri mu mabara y'umutuku, ikindi mu mabara y'ubururu bigaragara ko hari ikintu kiri kwerekanwa.

Igare rikoze neza ryifashishwa n'abakuze cyangwa se abantu bafite uburwayi bose batabasha kugendesha amaguru yabo.

Amaguru y'umuntu wambaye ikabutura y'umukara n'ibimenyetso kimwe cy'ubururu, ikindi cy'umutuku biri ku gice cy'ivi bigaragaza ko ari yo ngingo ishaka kwerekanwa hano.

Imiti y'ubwoko butandukanye, imwe iri mu ducupa, indi irambitse hasi ndetse n'inshinge, indi iri mu gikarito cyabugenewe babikamo imiti.

Umugore w'imisatsi miremire uri gukora imyitozo ngororamubiri, yahinnye ukuguru kumwe kw'ibumoso, ukundi kw'iburyo yakurambuye inyuma, bigaragara ko ari kugorora imitsi ye.

Igikoresho kigaragara impande zacyo n'uko zigiye zingana, hariho imbere hafite mirongo itandatu n'umunani, mu mpande hafite mirongo icyenda na rimwe naho ubuhagarike ari ijana na rimwe.

Abantu babiri bigaragara yuko bari mu kibuga, umwe yambaye ikote, undi ntaryo yambaye, umwe yambaye uturindantoki n'undi bigaragara ko hari ibintu ari kumushyiriraho.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'icyatsi n'inkweto zifite umukara n'umweru, bigaragara ko ari izo gukoresha mu myitozo ngororamubiri, aryamye muganga asa n'umurambura.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko afite ibikoresho by'ibanze birimo nk'icyo afasheho, ufite n'imisatsi myinshi cyane.

Umusore wambaye agapira k'ubururu, ufite icupa ari kunywa amazi, mu ijosi harimo igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa bumva imiziki.

Abantu babiri bigaragara ko bari gutanga ubutabazi bw'ibanze ku mukinnyi wari uri gukina, akaba agiriye ikibazo mu mukino, inyuma yaho, hari abandi bakomeje gukina.

Igikoresho bigaragara ko gifite imiterere nk'iy'ukuguru k'umuntu, cyifashishwa mu gihe umuntu afite imvune runaka, kikamufasha kuguma ahagaze neza.

Abana bari mu kibuga k'imyitozo, bari gukora imyitozo, bakikijwe n'abantu benshi bari kubareba, bigaragara ko ari nk'imyiyereko runaka.

Umukobwa wambaye isaha, ufite imisatsi isutse, myinshi y'umukara, uri gukora imyitozo ngororamubiri, yikora mu gice cy'inyuma, hagati y'ibitugu.

Imiti y'ubwoko butandukanye irambitse ahantu hamwe. harimo amapamba yo gupfuka, harimo n'indi miti iri mu ducupa, indi iri mu mashashi, indi iri mu dukarito.

Abasore bane, barimo kwiruka mu muhanda, bambaye amakabutura, bigaragara yuko bari gukora, imyitozo ngororamubiri.

Imiti myinshi y'ubwoko butandukanye, imwe iri mu ducupa, indi iri mu masashe, indi iri mu dukarito, hariho n'amapamba yo kwifashishwa bapfuka.

Umusore ufite ubwanwa butari bwinshi cyane, wikikije akenda k'umweru mu ijosi, yambaye agapira k'ikijuju, arimo arasoma amazi.

Ikirango kiriho ishusho y'umuntu, ikozwe mu binini, ndetse hariho n'ipombo rikoreshwa batera urushinge.

Amacupa atatu y'umweru, bigaragara ko arimo ibintu bimwe anasa, yose yanditseho amagambo asobanura guhagarika uburibwe ndetse munsi y'iryo jambo hariho ibisobanuro by'uko umuti ukoreshwa.

Uducupa tw'umweru, turimo imiti, twanditseho ngo hagarika uburibwe ndetse kuri two handitseho amagambo agiye atandukanye, amwe mu ibara ry'umukara andi mu ry'umutuku.

Ikirango cy'umuryango utabara imbabare, bigaragara ko gikorera mu Rwanda kirimo umusaraba ufite ibara ry'umutuku n'amagambo yandikishije umukara mu ibara ryiganje ry'umweru ry'ikirango.

Imbangukiragutabara iri mu ibara ry'umweru, ifite amatara atukura ndetse n'ipine inyuma.

Umusore wambaye agapira kamwegereye, witeze n'umwenda w'umweru mu ijosi, ari kunywa amazi, afite n'ubwanwa bukeya, butagera ku matama hose.

Imiti itandukanye imwe iri mu masashe, indi iri mu ducupa, hariho n'amapamba bigaragara ko yifashishwa bapfuka n'impakasi bakoresha bakata n'utundi dukarito, bigaragara ko hari ibikoresho byose byifashishwa.

Umusore wambaye umupira w'umweru, wambaye n'isaha ku kuboko kwe, uri kunywa amazi yambaye n'imigozi yifashishwa bumva imiziki.

Igare rikoreshwa n'abarwayi bafite ubumuga batabasha kugendesha amaguru yabo, ndetse n'abantu bamaze kugera mu za bukuru batakibasha kwigendesha.

Umukobwa ukiri muto bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, apfukamishije ukuguru kumwe ukundi aguhagazeho, yazamuye amaboko hejuru.

Ikirahure kinini cya mudasobwa kirimo amashusho menshi atandukanye agaragaza ubuzima bw'umuntu uko buba bumeze, anasobanura ukuntu bimeze.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa bapima uko umutima utera, gifite ibara ry'ubururu hejuru gifite ibara risa umweru, gifite agace kizinze bashyira ku mutima.

Umusore wambaye umupira w'ikijuju, uri kunywera amazi mu icupa ry'ubururu, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa ayisoje.

Umupira w'amaguru, ufite amabara y'umweru n'umukara, uri kumwe n'urukweto bigaragara ko rukoreshwa, mu gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse n'igikoresho cyo kwa muganga, cyifashishwa bapima.

Umugore n'umugabo, bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri bose bafite amacupa y'amazi bagendana.

Umusore wambaye umupira ufite ibara ry'ikijuju kandi ufite ingofero, uri kunywa amazi, bigaragara yuko avuye nko gukora imyitozo.

Utwuma tubiri twifashishwa mu myitozo ngororamubiri, iruhande hari imbuto z'ubwoko butandukanye zimwe zisatuye, izindi zidasatuye, iruhande hari ikirahuri kirimo umutobe bigaragara ko ukozwe mu mbuto.

Umuntu wifashe ku kuboko yashizeho agasashe k'ubururu, bigaragara ko ari nk'umuti wifashishwa bavura ingingo.

Ni icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga n'abarwayi bigaragara ko abaganga bambaye impuzankano yabo bari kureba amashusho arimo undi muganga bigaragara ko hari ikintu ari kubabwira.

Umusore n'umukobwa bambaye imyenda y'umweru n'umutuku, bigaragara ko ari abaganga cyangwa abafasha b'abaganga, bateruye umusore, bigaragara ko yavunitse.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, wambaye akuma bifashisha bapima uko umutima utera mu ijosi, uri kumwe n'umurwayi amwereka mu ivi, bisa n'aho ari kumubaza nimba nta kibazo ahafite.

Ikirango kiriho inama zitandukanye n'amagambo asobanura ngo aho kugira umumare umunsi wose wicaye wahagurutse ukagerageza ibi bintu, harimo uburyo butandukanye bwo gukoramo imyitozo urambura amaboko cyangwa amaguru.

Umusore wambaye isaha n'ikabutura n'inkweto, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, yakojeje akaboko k'iwe ku manano, mu gihe n'ukuguru kurambuye neza.

Umusore wambaye agasengeri k'icyatsi, bigaragara ko yahoze akora imyitozo ngororamubiri, uri kwisuka amazi menshi cyane mu mutwe.

Umuntu uhumirije ufite icupa ry'amazi ari kuyanywa bigaragara y'uko yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yari ananiwe.

Uruti rw'umugongo n'amagufwa yo mu manyanyinya, rufasheho, bigaragara ko ari imiterere runaka y'umubiri w'umuntu.

Umusore wambaye agapira k'umweru, ikabutura y'umukara, warambuye akaguru ndetse n'akaboko akikora ku manano, akandi kaboko kifashe mu manyankinya

Umuganga wambaye umwenda w'ubururu uri gufasha umusore, bigaragara ko yakoraga imyitozo ngororamubiri akagira ikibazo mu ngingo, umuganga akaba ari kumupfuka.

Umusore ufite agatuza kanini n'amaboko manini, bigaragara ko akunda gukora imyitozo ngororamubiri, afite agacupa k'amazi ari gusoma.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura y'umukara n'isaha y'umukara, wifashe mu ivi, bigaragara nk'aho hababara kuri iyo ngingo.

Ikirere cyiza cy'ubururu n'umweru, igikoresho gikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, imbuto z'ubwoko butandukanye, zisatuye n'icupa rinini, ririmo amazi yo kunywa.

Umuntu wicaye ku buriri wambaye imyenda yiganjemo umukara ndetse n'undi wicaye ku gatebe nawe wambaye umukara, bigaragara ko ari kumupfuka ku kaguru k'iwe k'iburyo.

Umukobwa uri kunywera amazi mu icupa, wambaye isengeri ifite amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, hagati harimo akarongo k'umweru, kandi anikikije undi mwenda w'umweru mu ijosi.

Igikoresho cyo kwa muganga, kirimo imibare icumi, utudomo tubiri, zeru ebyiri, hirya ku ruhande hariho zeru, n'igice kimwe, bigaragara ko bagikoresha bapima ibintu runaka.

Umusore ufite imisatsi myinshi, wambaye imyenda yiganjemo iy'umukara n'inkweto zo gukorana imyitozo, hafi yiwe hateretse imipira bigaragara ko ari mu cyumba cy'imyitozo.

Ikirenge gihagaze bigaragara ko nyiracyo ahagaze ku mano, kiriho ibimenyetso bimwe biri mu ibara ry'ubururu ibindi biri mu ibara ry'umutuku, bihurira ahantu hamwe bigaragara ko ari yo ngingo bashaka kwerekana.

Umusore wambaye inkweto z'imyitozo n'ipantaro y'umukara iciyemo akarongo k'umweru n'agapira k'umukara kariho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru arikumwe n'undi wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'ubururu, bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri.

Ipamba rifite ibara ry'ubururu, ryifashishwa bapfuka umuntu wagize imvune cyangwa se wagiriye ikibazo mu myitozo ngororamubiri.

Imiti itandukanye irambitse ahantu hamwe, imwe iri mu ducupa indi iri mu dusashi, indi iri mu dukarito twabugenewe hari n'ibirahuri byose birambitse hasi.

Umugabo uhagaze uri gupfuka umukobwa wicaye ahantu hasa ubururu, bisa n'aho yavunitse, akaguru kamwe kambaye urukweto, ako bari gupfuka ntarwo.

Ibiti bigaragara ko byimejeje kuko biri hagati y'ibindi biti byinshi, bitandukaniye ku burebure ariko byose bifite ibara ry'icyatsi.

Imiti y'ubwoko burindwi igiye itandukanye, iri mu dukoresho dutandukanye, n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara asobanura ngo "ibihingwa bivamo imiti", ndetse kuri buri muti hagiye hariho izina ryawo hasi.

Igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, giteye ahantu hatari ibindi bihingwa, bigaragara ko cyo ari umuti wa kinyarwanda, wifashishwa havurwa indwara zitandukanye.

Uducupa dutandatu dusa, dufite ibara rimwe ry'umweru ndetse turiho amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi n'andi yandikishije ibara ry'umukara.

Imiti ibiri y'ubwoko butandukanye ariko iri mu bikarito bisa, bigaragara y'uko ikorwa n'uruganda rumwe kuko yose inafite ikimenyetso cy'igisiga kiguruka.

Umuti uri mu gacupa k'umweru iruhande rwawo handitse ko uvura kurangiza vuba, gucika intege bigaragara ko bivugwa ko ari mwiza ku muryango.

Icupa ry'umweru ririho umufuniko w'ubururu, ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, ririho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka.

Igiti cy'umuti gikikijwe n'ibyatsi byinshi bisa naho kibungwabungwa kandi byose bikaba biteye mu butaka bufite ibara ry'umukara.

Ibyatsi by'ubwoko butandukanye, biri mu ishyamba, bigaragara ko ari imiti ya kinyarwanda n'ubwo ivanze n'ibindi byatsi ahantu buri muntu wese atayigeraho ngo ayimenye.

Uducupa tubiri turiho imiti ikorwa n' uruganda rugaragazwa n'igisiga kiguruka, iruhande hari amashusho y'abantu, agaragaza impu zabo n'uburyo zaba zisa basizeho uwo muti.

Icyatsi gifite ibara ry'icyatsi ariko rijya gusa umuhondo, bigaragara ko ari izuba kandi cyarameze ku ruzitiro rw'ibyuma.

Icyatsi giteye mu butaka, bigaragara ko buhinzwe vuba, kuko butarongera gufatana, kikaba gifite ibara ry'icyatsi kibisi, kandi bigaragara ko ari umuti.

Ukuboko kumuntu wambaye umwenda w'ubururu gufashe icyatsi bigaragara yuko ari umuti kandi gitandukanye n'ibindi byatsi byose byegeranye.

Agacupa kabonerana gafite umufuniko w'umweru n'agapapuro kariho k'umweru, kariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara asobanura ko umuti ukoreshwa bakaraba intoki.

Imiti iri mu bwoko butandukanye irimo iyanditseho F cumi na gatanu iri mu dukarito, irimo indi iri mu ducupa tw'umuhondo, n'indi iri mu ishashi nini yanditseho ngo ibihe byose mu magambo atukura.

Udukarito dutatu turimo imiti, bigaragara ko hari ikintu ihuriyeho bijyanye n'ijambo rimwe rinini riyanditseho yose, ariko hari n'irindi jambo rito kuri buri gakarito ritandukanya imiti irimo.

Ubwoko bubiri bw'imiti butandukanye bigaragara ko imwe ikorwa mu bihingwa by'igikakarubamba, akaba ari nayo iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, iyo ku rundi ruhande yo iri kumwe n'uturabo bigaragara ko nayo ariho ituruka.

Icupa ririmo ibikomoka ku bihingwa nk'uko bigaragazwa n'agapapuro karizengurutse, kanariho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka n'andi magambo.

Uducupa tw'umweru ndetse n'akandi k'umuhondo, bigaragara ko tubamo imiti, hejuru hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, asobanura ubudahangarwa.

Imiti y'ubwoko butandukanye, irambitse ku kirago, hariho ibiganza by'umuntu, uri gusekura imwe muri yo, indi iri ku ruhande, hari iyo mbona ifite ibara ritukura.

Icyatsi gifite amababi atoshye n'icyatsi kibisi, kikaba gifite n'ibice biriho imbuto, zimwe zisa umutuku, izindi zisa umuhondo, izindi zigifunze.

Imiti y'ubwoko butandukanye irambitse ahantu hamwe, imwe iseye, harimo imwe ifite ibara ritukura, indi isa n'umuhondo, indi ari amababi, indi ari imbuto, iruhande hari udukoresho bigaragara ko twifashishwa mu kuyitunganya.

Uducupa dutandatu, dufite imiterere imeze kimwe, dufite imifuniko isa yose y'umweru n'amagambo asa yanditse mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibimenyetso bisa byigisiga kiguruka.

Uducupa tubiri tumeze kimwe, ariko twanditseho amagambo adafite ibara rimwe, iruhande hagaragara ko hari ibyifashishwa bakora ibirimo imbere.

Ikirango kiriho amagambo agaragara nka a na m cyanditseho imiti y'Akagera, bigaragara ko ari ikigo gitanga imiti.

Ibyatsi bibiri, bigaragara ko ari ubwoko bumwe, byose bifite ibara ry'icyatsi ariko kimwe ari kirekire kurusha ikindi.

Imiti y'ubwoko butandukanye n'amabara atandukanye, harimo isa umutuku n'indi isa umukara, harimo ibitabo, hari n'isekuro bigaragara ko yifashishwa basekura iyo miti.

Umukobwa uteruye agacupa k'umukara kandiditseho ngo Lavenda, bigaragara ko ari ubwoko bw'umuti burimo imbere muri ako gacupa.

Agacupa k'umweru karimo imiti, kariho ibishushanyo bifite amabara y'umuhondo, kariho n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo.

Imiti itandukanye, iri mu dukarito twayo, inanasi n'imineke biri iruhande rw'iyo miti n'indabo ziri ibumoso.

Igiti gifite amababi yicyatsi, bigaragara ko ari umuti, kiri hagati y'ibindi biti byinshi, bigaragara ko ahantu giherereye ari mu ishyamba ririmo n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye.

Igihingwa gisa neza gifite ibara ry'icyatsi ndetse gifite n'uruyange rusa n'umuhondo, bigaragara ko gitereye hamwe n'ibindi bihingwa.

Agacupa k'umweru, kariho agapapuro gafite ibara ry'ubururu, kanditseho amagambo y'umweru, hariho n'igice cy'umweru cyanditsemo amagambo y'ubururu ndetse n'ikirango cy'igisiga kiguruka.

Amacunga akataguyemo ibice, n'izindi mbuto bigaragara ko zahurijwe hamwe kugira ngo bazikoremo umutobe usa umuhondo.

Isashe irimo imiti iriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, iriho n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka, hariho n'umubare cumi na karindwi ugaragaza ko harimo amagarama cumi n'arindwi.

Ubwoko butandatu butandukanye bw'imiti irimo imwe isa icyatsi indi ifite imbuto n'indi ifite uruyange, byose hirya hari indwara bivura.

Ubwoko bw'imiti butandukanye, imwe iri mu ducupa dutoya indi iri mu dukarito twabugenewe, indi iri mu mashashi yifashishwa babika imiti yose iri hamwe.

Uducupa tubiri turiho ibara ryiganje ry'umuhondo n'igice cyo hejuru cy'umukara, iruhande rwatwo hateretse ikirahuri, bigaragara ko kirimo ibisukika.

Agacupa gafite ibara ry'umweru, bigaragara ko ari agacupa k'imiti kanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, hakaba hariho n'akamenyetso k'igisiga kiguruka.

Imiti y'ubwoko butandukanye bigaragara ko ari imiti gakondo, imwe iri mu ducupa dufite imifuniko y'icyatsi, indi iri mu macupa ubusanzwe tumenyereye ko aba arimo amavuta yo kwisiga.

Amacupa atatu y'umweru matoya, ateretse hamwe n'irindi cupa rirerire, ridasa umweru, iruhande rw'ayo macupa, hari ubwoko bw'ibyatsi bitandukanye...

Amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi asobanura ko ari umunsi wahariwe imiti gakondo y'Abanyafurika, hariho n'ibibabi bigera kuri bitatu.

Umugore wambaye umwenda w'umweru, ufite n'agakapu, uri gukora mu byatsi, bigaragara ko arimo gushaka umutu umwe wagakondo yakoresha.

Umugabo wambaye nk'abaganga, wicaye mu cyumba kirimo imiti, imwe iri mu ducupa tw'umukara dupfundikishije, imifuniko y'umweru, indi iri mu makarito itarafungurwa.

Ibinini bigera ku munani birambitse ku kibabi gisa naho ari ikibabi cy'umuharavumba, bishatse gusobanura ko imiti ituruka muri icyo gihingwa.

Ibyatsi byinshi, by'ubwoko bugiye butandukanye, bifite ibara ry'icyatsi, bigaragara ko ari imiti ya kinyarwanda, yifashishwa bavura indwara zigiye zitandukanye.

Agacupa bigaragara ko karimo umuti, gafite ibara ry'umweru ariko hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi ndetse hariho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka.

Agakarito gato bigaragara ko kabamo umuti upima amagarama agera kuri magana atanu n'izina ryawo ryanditse mu mabara y'umukara bigaragara ko ariko umuti witwa.

Ikirango gifite amabara y'umuhondo n'icyatsi, kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ndetse n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka, imbere harambitse ibinini.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ikoti, n'amagambo avuga ngo ndi umujyanama wawe mubuzima n'imirire, iruhande rwe hari uducupa twinshi tw'imiti bigaragara ko afasha abantu.

Icupa ry'umweru, bigaragara ko ribamo umuti rirambitse ahantu hasa icyatsi ndetse n'amagambo aryanditseho akaba asa icyatsi, hariho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, uri mu ishyamba, ahantu hari ibiti byinshi cyane, bigaragara ko ari kurobanuramo imiti ya kinyarwanda.

Icyatsi cy'umuharavumba kiri hagati y'ibyatsi byinshi, bigaragara ko kiri nk'ahantu mu ishyamba kandi kimejeje.

Icyatsi gifite amababi afite ibara ry'icyatsi, giteye ahantu, kitegeranye n'ibindi bisa na cyo ariko bigaragara ko ari iruhande rw'inzu.

Ibinini byinshi bifite ibara ry'icyatsi biri kuva mu gakoresho kameze nk'agati, bigaragara ko arimo biba bibitse, bikaba biri gusukwa ahantu hafite isuku.

Agacupa bigaragara ko kabamo umuti, gafite ibara ry'umweru kariho amagambo menshi yandikishije ibara ry'icyatsi, hariho n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi gafite ikora ry'umuhondo, yambaye n'ikarita imuranga, ifite ibyatsi bitandukanye mu maboko yombi.

Umukobwa warambuye ibiganza bye, abirambikaho agacupa, gafite ibara ry'umukara, bigaragara ko karimo umuti mo imbere n'amagambo y'izina ry'umuti, yanditse mu ibara ry'umukara.

Imiti y'ubwoko bune, bigaragara ko ibiri ibanza iteye ku butaka, kandi isa icyatsi, naho bubiri bwo hasi, ari imbuto zamaze kwera.

Agakarito kifashishwa babika imiti gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, hariho n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka, imbere y’aho hari ibinini bigaragara ko ari byo bibamo imbere.

Imiti y'icyatsi ya gakondo iri kumwe mu kintu kimwe, ariko imwe igaragara ko icagaguyemo utuntu duto cyane indi ikiri yose.

Imiti y'ubwoko butandukanye irambitse ahantu hamwe, imwe iri mu ducupa dusa umweru, indi iri mu gacupa gasa icyatsi, indi iri mu gikarito, hari n'indi iri mu tujerekani dutoya.

Amacupa menshi atandukanye, arimo imiti ya kinyarwanda, ariho buri muti n'ubwoko bwawo, bitandukanyijwe n'amazina n'aho iri.

Ubwoko bw'imiti bugera kuri cumi na bubiri bugiye butandukanye imiti imwe ari amababi indi ifite imbuto indi ifitete uruyanjye buri hepfo y'umuti handitse izina ryawo.

Agacupa kanini, gafite umufuniko w'umweru, handitseho amagambo, agaragaza ko harimo ubuki mwo imbere, ndetse hariho ikimenyetso, cy'igisiga kiguruka.

Ibihingwa biteye mu mashashi y'umukara arimo ibitaka, hariho kimwe kiriho akarango k'umweru, kagaragaza ubwoko bw'ibyo bihingwa by'imiti biteye.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku uriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, akambara n'ikote ry'umukara, bigaragara ko ari mu murima urimo ibyatsi byinshi ariko hari bimwe yasaruye nk'umuti.

Imbuto zijya guhuza ubwoko, ariko zitandukanye, harimo zimwe zisatuye, zisa umuhondo, izindi zisa icyatsi zitanasatuye.

Amababi y'igihingwa n'amagambo yanditse asobanura ngo imiti gakondo, gakondo byandikishijwe ibara ry'umweru, imiti byandikishijwe ibara ry'icyatsi ndetse n'inyuguti nini za P ebyiri.

Imiti iri mu ducupa dutandukanye, imwe iri mu dukarito, bigaragara ko buri muti ukora ibitandukanye n'iby'undi nk'uko na buri muti ufite izina ryawo ritandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ikoti ry'umukara, iruhande rwe hari uducupa tw'imiti dutandukanye, hasi hari amagambo yanditse ngo "ndi umujyanama wawe mu buzima n'imirire" bigaragara ko aribwo bufasha atanga.

Ikirango kiriho imiti, bigaragara ko ivura mu ngingo, haba mu mugongo, mu nkokora, mu ntugu mbese cyane cyane aho ingingo zihurira.

Ikirango kiriho imiti y'ubwoko butandukanye, harimo iy'imbuto ndetse n'iy'ibyatsi, hariho n'ikirango gisobanura ko ari amategeko n'amabwizwa yo kwiyandikisha.

Uducupa twinshi bigaragara yuko turimo imiti, twose dufite ikirango cy' igisiga kiguruka ariko kuri buri gacupa handitseho amagambo atandukanye n'ay'akandi.

Ikirango kiriho imiti y'ubwoko butandukanye, iri mu ducupa tw'umweru, hari n'undi uri mu kajerekani k'umuhondo, byose bifite ikirango cy'igisiga kiguruka, hariho na nimero zo guhamagara mu gihe ukeneye abatanga imiti.

Ibimera byiganjemo imiti nk'igikakarubamba, biteye mu tudobo dutukura ndetse ahantu bigaragara ko atari hanze.

Ibiganza by'umuntu, ufite agasekuru gatoya, bigaragara yuko ari gusekura imiti, ndetse iruhande rw'ako gasekuru, hari indi miti myinshi, y'ubwoko butandukanye.

Icyatsi gifite amababi y'icyatsi ndetse n'indabo z'umutuku, iruhande hari ikindi nacyo gifite indabo zimwe zitukura cyane izindi ari umweru.

Imiti myinshi y'ubwoko butandukanye. iri no mu macupa atandukanye, iri kumwe, iruhande rwayo ikikijwe n'amashusho y'ibyatsi ikorwamo.

Imiti igiye itandukanye iri mu dukarito twabugenewe, inanasi n'urubuto rw'imineke, iruhande rw'udukarito hari indabo.

Ikirango cy'ikigo gicuruza imiti ya gakondo kirimo ishusho y'igisiga kiri mu ibara ry'umukara n'amagambo ari mu ibara ry'umukara agikikije. Ndetse mu mpande hagiye harimo andi magambo ari mu ibara ry'icyatsi.

Imiti ihinze ahantu, bigaragara ko ari mu ishyamba kandi bigaragara ko yimejeje, kuko iri ahantu ubusanzwe hadahinzwe ibindi bihingwa.

Uruyange rwinshi rw'umweru ruri kumwe n'ibyatsi bindi bifite ibara ry'icyatsi kibisi, bigaragara ko ari kimwe muri byo ariko cyeze kurushaho.

Amababi y'icyatsi bigaragara yuko ari umuti wa kinyarwanda uri ahantutu hasi, hari amatiyo menshi atwara amazi.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri hamwe ariko ifite amabara atandukanye mu ducupa tumwe dusa umweru mu tundi dufitemo amabara y'umuhondo, utundi dufitemo amabara y'icyatsi.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri ahantu hamwe, ifite amabara atandukanye, harimo iyo ubona isa umutuku, indi isa umweru ndetse hari n'umunzani bigaragara ko ukoreshwa upima.

Icyatsi cyitwa umuharavumba, gifite ibara ry'icyatsi ku mababi yayo, hariho amababi amwe ameze neza, andi afite ibitobore kuri yo.

Ubwoko bugera kuri butandatu bw'imiti, imwe isa umuhondo, indi isa umutuku, indi isa icyatsi, bigaragara ko imwe iseye, indi ari inyange.

Ikirango cyanditseho ngo imiti gakondo, gakondo byanditse mu ibara ry'umweru, imiti byanditse mu ibara ry'icyatsi.

Icyatsi gisa neza gifite utubuto tw'amabara atandukanye, harimo umuhondo n'utundi tw'umutuku kandi cyo gifite amababi y'icyatsi.

Ikirango cyanditseho ngo igisubizo kuri amibe, bigaragara yuko ari umuti uvura indwara y'amibe.

Ibyatsi by'ubwoko butandukanye, bimwe bijya kugira ibara ry'umuhondo, ibindi ari icyatsi kibisi, bigaragara ko bihinze ahantu hamwe.

Icyatsi giteye hamwe n'ibindi bisa binahuje ubwoko, bigaragara ko ari umuti wa kinyarwanda, uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Igiti gisa n'umusave gifite ibara ry'icyatsi cyameze iruhande rw'uruzitiro bigaragara yuko ari rurerure kukirusha.

Igihingwa cya tangawizi cyifashishwa hirindwa, hanavurwa indwara zitandukanye, kimwe gikataguyemo uduce dutoya, ikindi kiri cyose nk'uko gisarurwa.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri mu bikoresho bigiye bitandukanye, hari imwe iri mu ducupa duto tw'umweru, indi iri mu tujerekani, hari nk'iri mu kajerekani kanditseho inyuguti ya M na P na D.

Imiti ya kinyarwanda itandukanye, irambitse ahantu hamwe, harimo iy'ibyatsi, harimo indi y'imbuto, harimo indi iseye ndetse hari n'icupa ririmo ibisa nk'ubuki.

Ikirango cy'umuti wa kinyarwanda cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ndetse hariho n'akamenyetso k'icyatsi.

Imiti y'ubwoko butandukanye, imwe iri mu dukarito twayo, indi iri mu ducupa tw'umuhondo twayo, indi iri mu ishashi, yose ifite ikimenyetso cy'igisiga kiguruka, bigaragara ko ikorwa mu ruganda rumwe.

Agakarito gato, ubusanzwe gakoreshwa kwa muganga, kabikwamo imiti, gafite amabara yiganje y'umweru, n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, gafite n'amabara y'ubururu yanditsemo amagambo mu ibara ry'umweru.